Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi ndetse n'abaturage n'abayobozi batandukanye b'amakoperative ni bamwe mu bahuye mu gikorwa cyo gutanga imiti iterwa mu rwego rwo kwica udukoko.

Abahinzi barakangurirwa kujya bagura imiti yica udukoko bagatera mu myaka yabo mu rwego rwo kugira ngo bazagire umusaruro mwiza, abacuruza imiti na bo barashishikarizwa kujya bayibika ahantu hujuje ubuziranenge, mu rwego rwo kwirinda ko yakangirika.

Abahinzi bakora ubuhinzi butandukanye nk'umuceri, barasabwa kujya batera umuti wica udukoko muri iki gihingwa, mu rwego rwo kugira ngo babone umusaruro mwiza kandi utubutse.

Abahinzi b'ibihingwa bitandukanye, n'immbuto zirimo nk'amacunga, manderena ndetse n'amatunda, ni bamwe mu bashishikarizwa kujya batera imiti mu rwego rwo kwica udukoko, dushobora kwangiza umusaruro.

Minisiteri y'ubuhinzi ndetse n'abayobozi batandukanye bashinzwe iby'ubuhinzi, barakangurira abaturage gutera imyaka yabo imiti yica udukoko, mu rwego rwo gukomeza kwirinda ko yakangirika.

Mu rwego rwo kuzamura umusaruro, abahinzi b'umuceri, bakangurirwa gutera umuti muri iki gihingwa kugira ngo utunyamaswa ndetse n'utundi dukoko dupfe, twekwangiza intete y'umuceri.

Abakora ubuhinzi barakangurirwa kujya birinda bakanambara neza mbere yo gukora ku miti yica udusimba, ibi bibafasha kwirinda indwara zitandukanye ndetse n'urupfu.

Abakora akazi k'ubworozi bw'amafi, ni bamwe mu bishimira umusaruro bakura muri aka kazi kabo, bavuga ko uretse kuyarya basagurira n'amasoko, amafaranga bakuyemo bakayakemu ibibazo bitandukanye byo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubworozi bw'amafi bukorewe mu byuzi biherereye mu bishanga, ni bumwe mu bugomba kwitabwaho, hashyirwamo ibitunga aya mafi ndetse n'imiti izirinda gupfa.

Abakora akazi k'uburobyi ni bamwe mu bishimira akazi kabo kuko ngo bakuramo amafaranga abafasha gukemura ibibazo bitandukanye harimo nko kwishyura amafaranga y'ishuri y'abana babo, kwishyura mituweli ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye.

Abaturage bakora ubworozi bw'amafi barakangurirwa kujya bayitaho bakayashyiriramo ibyo kurya, bagashyiramo umuti mu rwego rwo kugira ngo bazabone umusaruro utubutse kandi mu gihe gitoya.

Abahinzi b'igihingwa ngengabukungu cya kawa, ni bamwe mu bishimira umusaruro wacyo kuko bavuga ko bakuramo amafaranga, abafasha gukemura ibibazo byinshi, harimo nko kwishyura amafaranga y'ishuri y'abana babo, kurihira abandi kaminuza ndetse n'ibindi bitandukanye.

Igihingwa ngengabukungu cya kawa gikunze kwera mu kwezi kwa kane aho abaturage bahinga iki gihingwa bishimira umusaruro gitanga bagira bati kiduha amafaranga twifashisha mu kugura ibikoresho by'abanyeshuri kwishyura mituweli ndetse tukabona n'ibidutunga mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Igihingwa ngengabukungu cya kawa ni kimwe mu biteza imbere igihugu ndetse n'abaturage. Abahinzi b'iki gihingwa bavuga yuko kibaha amafaranga bakayakemuza ibibazo bigiye bitandukanye byo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Igihingwa ngengabukungu cya kawa, kiri mu bifitiye abaturage ndetse n'igihugu akamaro kuko gitanga amafaranga yifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi nko kwishyura mituweri, guhaha ibyo kurya ndetse n'ibindi bitandukanye.

Igihingwa ngengabukungu cy'icyayi, ni kimwe mu bifitiye igihugu akamaro ndetse n'abaturage muri rusange. Usanga abaturage bagihinga bavuga yuko bakuramo amafaranga, abafasha gukemura ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abahinzi b'igihingwa ngengabukungu cy'icyayi ni bamwe mu bishimira umusaruro bakuramo, kuko bavuga ko bakuramo amafaranga abasha kubafasha mu buzima bwabo butandukanye bwa buri munsi.

Igihingwa ngengabukungu k'icyayi ni kimwe mu gifite akamaro kanini yaba ku gihugu, ndetse no ku baturage muri rusange, dore ko kitanga amafaranga yifashishwa mu gukemura ibibazo mu buzima busanzwe bwa buri munsi.

Abakora ubuhinzi bw'igihingwa ngengabukungu cya kawa bishimira umusaruro bagikuramo, kuko bamwe bavuga ko mu mafaranga bavanamo bayifashisha, mu gukemura ibibazo bitandukanye byo mu miryango yabo.

Abakora ubucuruzi bw'imiti y'amatungo barakangurirwa kujya bayibika ahantu hujuje ubuziranenge, mu rwego rwo kwirinda ko yapfa igata agaciro ibyo yagenewe gukorwa ntibikorwe.

Amaduka akora ubucuruzi bw'imiti y'amatungo abakoramo barasabwa kujya babika iyi imiti ahantu heza hafite isuku mu rwego rwo kwirinda ko iyi miti yakangirika.

Imiti y'amatungo nayo igomba kwitabwaho, mu rwego rwo kwirinda ko yapfa ikaba yagira ingaruka ku matungo, nko gupfa cyangwa se kugira ibindi bibazo mu buzima bwayo.

Amaduka akora ubucuruzi bw'imiti y'amatungo nk'imiti y'inka iy'ihene, ingurube ndetse n'andi matungo, barashishikarizwa kugira isuku mu rwego rwo kwirinda ko iyi miti yakangirika igatakaza ubuziranenge.

Abakora ubucuruzi bw'imiti y'amatungo cyane cyane nk'inkoko, barasabwa kujya bayibika ahantu heza hujuje ubuziranenge mu rwego rwo kwirinda ko iyi miti yakangirika.

Abahinzi b'imbuto zitandukanye cyane cyane nka avoka, bashishikarizwa kujya bazivomera mu gihe zikiri mu ruhumbikiro kugira ngo imbuto zazo zituma cyangwa zigahura n'ibindi bibazo.

Abahinzi bakora ubuhinzi bw'ibirayi biteje imbere mu buryo bugaragara. Aho basagurira amasoko, bakagurisha bagakuramo amafaranga, bagakemura ibindi bibazo, harimo nko kwishyura mituweri, kurihirira abana amashuri ndetse n'ibindi.

Abayobozi bashinzwe iby'ubuhinzi n'ubworozi, ni bamwe mu basuye abaturage bakora ubworozi bw'amatungo y'inka barabaganiriza, babaha n'inama z'ukuntu bakwitwara kugira ngo bajye babona umusaruro ushimishije.

Abayobozi bo mu kigo cy'Igihugu gishinzwe ubuhinzi, barakangurira abaturage gutera imyaka ku murongo ndetse bakayiterana ifumbire, mu rwego rwo kongera umusaruro ndetse no guhinga bya kijyambere.

Abakora ubuhinzi butandukanye cyane cyane ubuhinzi bw'ibigori barasabwa kubitera ku murongo, bakabiterana ifumbire ndetse mu gihe k'izuba bakabivomera mu rwego rwo kugira ngo bazabone umusaruro mwinshi utubutse.

Abakora ubuhinzi bw'ibihingwa bitandukanye harimo ibishyimbo, ibigori barasabwa kujya babyitaho bakabitera umuti kugira ngo barwanye udukoko dushobora kwangiza ibi bihingwa.

Abahinzi barakangurirwa kujya batera imyaka mu buryo bwa kijyambere, ibi bikabafasha kubona umusaruro mwinshi kandi utubutse. Si ibyo gusa barasabwa no kujya batera iyi myaka imiti yica udukoko kugira ngo ibimera bizakure neza.

Abahinzi b'ibihingwa bitandukanye, barasabwa kujya bakorana n'amakoperative mu rwego rwo kwiteza imbere. Ibi bikabafasha kubona amafaranga yo gushora mu buhinzi bwa kijyambere.

Abaturage bakora ubuhinzi bw'ibigori, barakangurirwa kujya barundarunda ibishogori ndetse n'ibishishwa byabyo, nyuma yo kubisarura maze bakaba babibyazamo ifumbire cyangwa bakabisasiza indi myaka nk'ikawa ndetse n'urutoki.

Abahinzi bakorera ubuhinzi kure y'umuhanda ni bamwe mu bagorwa no gucyura umusaruro wabo mu gihe cy'isarura aha basaba Leta y'u Rwanda gushyira imihanda no mu bice by'ibyaro.

Abahinzi barasabwa kwibumbira mu makoperative, bagafatanya mu rwego rwo kugira ngo bagere kuri byinshi kandi mu gihe cya vuba. Ikindi kandi barasabwa kwisunga amabanki, bakaka inguzanyo, bagakora ubuhinzi bwa kijyambere.

Ubucuruzi bw'ibiribwa bitandukanye harimo ibirayi, amavuta ndetse n'ibindi, ni bumwe mu byinjiza amafaranga kuko ibi byose byifashishwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibihingwa ngandurarugo nk'ibishyimbo, ni bimwe mu bihingwa bifitiye abaturage akamaro kuko iyo byatanze umusaruro mwinshi, abaturage bakuraho ibyo kurya ndetse bagasagurira n'amasoko.

Ubuhinzi bw'amapapayi, imyungu cyangwa se abandi bita ibihaza, ni bumwe mu buhinzi bushobora gufatanywa nta gihingwa kibangamiye ikindi. Abaturage bakora ubu buhinzi, bavuga ko nta kabuza bitanga umusaruro mwinshi kandi utubutse.

Abahinzi bakora ubuhinzi bw'imyumbati ni bamwe mu bishimira umusaruro uturuka kuri iki gihingwa. Usanga bamwe bavuga bati uretse no gukuramo imyumbati yo kurya, ubugari bwo kurya, imyumbati tuyikuramo amafaranga adufasha mu gukemura ibibazo bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abahinzi bakora ubuhinzi bw'imyumbati, barasabwa kujya babwitaho cyane, bakayibagarira ndetse bakanayivomera mu gihe k'izuba, mu rwego rwo kwirinda ko yakuma.

Abakora ubucuruzi bw'ibituruka ku matungo nk'indagara ndetse n'amafi, ni bamwe mu bishimira umusaruro bakuramo kuko bavuga ko babona amafaranga abafasha mu gukemura ibibazo bitandukanye mu miryango yabo.

Abahinzi bahinga igihingwa cy'ibigori mu buryo bwa kijyambere, ni bamwe mu bishimira umusaruro gitanga. Baragira bati "turahinga, tukeza, tugakuramo ibyo kurya ndetse tugasagurira n'amasoko, tukabona amafaranga dukemuza ibibazo bitandukanye byo mu miryango yacu".

Ubuhinzi bw'ibigori ni bumwe mu buhinzi bufitiye abaturage akamaro ndetse n'igihugu muri rusange, ababikora mu buryo bwa kijyambere bakuramo umusaruro mwinshi cyane kandi utubutse, ugereranyije n'ababikora mu buryo bwa gakondo.

Abaturage bakora ubuhinzi bw'urutoki, ni bamwe mu bishimira umusaruro bawukuramo. Bamwe baragira bati "uretse gukuraramo umuti wo kunywa ndetse n'imineke yo kwirira, ibitoki bitwinjiriza amafaranga, adufasha gukemura ibibazo bitandukanye mu miryango yacu".

Amashyamba nka kimwe mu bidukikije agomba kwitabwaho ndetse akarindwa n'ibyayahungabanya nk'inkongi z'umuriro ndetse no kuyatemagura n'ibindi. Akamaro k'amashyamba harimo nko kuduhereza umwuka mwiza duhumeka, atanga ibiti byo kubakisha ndetse n'ibindi.

Imwe mu mihanda inyura mu mashyamba agiye atandukanye urugero nka Nyungwe, hagiye hashyirwa amatara ku muhanda mu rwego rwo gukaza umutekano ndetse no kwirinda abagizi ba nabi bashobora kwihisha muri ayo mashyamba.

Amashyamba nka kimwe mu bidukikije, agomba kwitabwaho kuko afite umumaro munini mu buzima bwacu bwa buri munsi dore ko yifashishwa nk'ibicanwa, kubakishwa ndetse kandi akaba naho inyamaswa zitaha.

Mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije ndetse n'amashyamba, Leta y'u Rwanda irashishikariza abaturage gukora gahunda ya cana rumwe mu rwego rwo kwirinda gutemagura amashyamba ndetse no kuyatsembaho.

Mu rwego rwo gusigasira ndetse no kubungabunga ibidukikije, amashyamba ni kimwe mu bigomba kwitabwaho kuko afite umumaro munini, mu buzima bwa muntu ndetse n'ubw'inyamaswa.

Amashyamba nka kimwe mu bidukikije agomba kwitabwaho neza kuko afite umumaro mu buzima bw'umuntu ndetse n'inyamaswa, amashyamba yifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye ndetse n'ibindi.

Amashyamba agomba kwitabwaho, hakumirwa ba rutwitsi kuko afite umumaro munini cyane. Inyamaswa ni ho zibera kandi tuyifashisha mu kubaka.

Amashyamba nka kimwe mu bidukikije kubera kumenya umumaro wayo, tuba tugomba kuyasigasira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Tukirinda kuyatema, kuyatwika ndetse n'ibindi bishobora kuyabangamira.

Amashyamba mu gihe cy'izuba aba yarumye ni nayo mpamvu tugomba kwirinda kuba twashyiramo ibikoresho bishobora kubyara umuriro naho mu gihe cy'imvura amashyamba aba ameze neza cyane ku buryo ashobora kuvamo n'ubwatsi bw'amatungo.

Abakora ubuhinzi bw'imboga ndetse n'indabo, ni bamwe mu babona amafaranga, abafasha mu gukemura ibibazo bitandukanye, byabo bya buri munsi, aha twavuga nko guhaha ibyo kurya, kwishyura amashuri y'abana ndetse no kwishyura ubwishingizi mu kwivuza.

Ubuhinzi bw'imboga, imbuto ndetse n'indabo ni bumwe mu bufite akamaro ku gihugu ndetse no ku baturage muri rusange dore ko butanga amafaranga yifashishwa mu gukemura ibibazo bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abakora ubuhinzi bw'imbuto nka marakuja, abandi bita amatunda, ni bamwe mu bishimira umusaruro kino gihingwa gitanga kuko ngo bakuramo amafaranga menshi, abafasha mu gukemura ibibazo bitandukanye, harimo nko kwishyura mituweli, kurihirira amashuri y'abana ndetse n'ibindi.

Abakora ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye harimo ibintoryi, pavuro, inyanya ndetse n'amashu, ni bamwe mu bishimira umusaruro ibi bihingwa bitanga dore ko ngo bakuramo amafaranga, abafasha gukemura ibibazo bitandukanye mu miryango yabo.

Abaturage bakora ubuhinzi bw'indabo, ni bamwe mu binjiza amafaranga, abafasha gukemura ibibazo bigiye bitandukanye nko kwishyura amafaranga y'ishuri y'abana babo, kwishyura mituweli ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abaturage bakora ubuhinzi bw'igihingwa kizwi ku izina rya pome, bishimira umusaruro iki gihingwa gitanga dore ko ngo gituma babona amafaranga abafasha gukemura ibibazo byabo harimo nko kwishyura mituweli, kwishyura amafaranga y'ishuri ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'indabo, ni bumwe mu butanga umusaruro ku buryo bugaragara, inyanya, pome ndetse n'ibindi, ni bimwe mu byinjiza amafaranga.

Ubuhinzi bw'indabo ndetse n'imbuto ni bumwe mu bwinjiza amafaranga menshi afasha abaturage mu gukemura ibibazo bigiye bitandukanye nko kwishyura mituweli, kwishyura amafaranga y'ishuri ndetse n'ibindi.

Mu rwego rwo guhangana n'izuba rikabije cyane abahinzi bakorera ubuhinzi bwabo mu bice by'umusozi bavomerera imyaka yabo mu gihe cy'izuba kugira ngo babone umusaruro mwiza kandi mu gihe cya vuba.

Abahinzi b'imbuto zitandukanye, bakorera ubuhinzi bwabo mu bice by'imusozi ndetse no mu gishanga, barasabwa kujya bavomerera mu gihe cy'izuba, mu rwego rwo kwirinda ko ibihingwa byabo byapfa.

Abakora ubuhinzi bwa kijyambere bagatera imyaka ku murongo ni bamwe mu bagira umusaruro mwinshi. Barakangurirwa kandi kujya bavomera imyaka yabo mu gihe k'izuba kugira ngo umusaruro ukomeze kwiyongera.

Abaturage bakora ubuhinzi mu bice by'imisozi, barakangurirwa kujya bavomera imyaka yabo mu rwego rwo guhangana n'izuba rikomeye cyane rishobora gutuma umusaruro ugabanuka.

Abaturage bakora ubuhinzi bw'ibigori mu bice by'imisozi barakangurirwa kwifashisha imashini zivomera mu rwego rwo guhangana n'izuba rikabije cyane kandi kugira ngo umusaruro wabo uzabe mwiza.

Abahinzi bakorera ubuhinzi bwabo mu bice by'imisozi ni bamwe mu bakangurirwa kujya bavomera imyaka yabo mu gihe k'izuba mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cyo kubura umusaruro.

Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage bose ko nta ntanumwe ugomba gutura ku musozi uhanamye, kandi bagaca amatara y'indinganire mu rwego rwo kwirinda imyuzure ndetse n'ibiza bishobora gutwara iyi misozi.

Abaturage batuye ku misozi ihanamye, ni bamwe mu bashishikarizwa guca amaterasi y'indinganire mu rwego rwo kwirinda ibiza. Barasabwa kandi kwirinda kubaka aha hantu kuko hashobora kubateza impanuka zishobora kubaviramo n'urupfu.

Abaturage batuye ku misozi ihanamye barakangurirwa kuhava vuba na bwangu mu rwego rwo kwirinda impanuka zishobora guterwa no gutenguka kw'imisozi ndetse n'imvura ikabije cyane barakangurirwa kandi guca amaterasi y'indinganire kugira ngo barwanye isuri.

Leta y'u Rwanda irakangurira abaturage guca amatrasi y'indinganire, ahantu hari imisozi ihanamye. Ni mu rwego rwo kwirinda ibiza ndetse n'amasuri atwara imyaka yabo.

Leta y'u Rwanda irakangurira abaturage batuye ku misozi ihanamye ko bagomba guca amatarasi y'indinganire mu rwego rwo kwirinda ibiza birimo nk'isuri, Leta'u Rwanda kandi iraburira abaturage ko ntawagakwiye kubaka kuri iyi misozi kuko bishobora guteza impanuka zirimo n'urupfu.

Leta y'u Rwanda irakangurira abaturage guca amaterasi y'indinganire ku misozi ihanamye, ikababurira kandi kwirinda gutura kuri iyo misozi kuko bishobora guteza impanuka no gutwarwa kw'inzu zabo.

Abaturage bakorera ubuhinzi ku misozi ihanamye, barakangurirwa guca amatarasi y'indinganire, mu rwego rwo kwirinda ibiza ndetse n'isuri. Leta y'u Rwanda kandi iraburira abaturage bubaka ko bajya birinda kubaka ahantu hashobora kubateza ibibazo.

Aborozi b'inka, bakangurirwa kwita ku matungo yabo kugira ngo atange umusaruro. Bashishikarizwa guhamagara abaganga b'amatungo, mu gihe inka zabo zigize ikibazo ndetse no mu gihe zigiye kubyara.

Ubworozi bw'amatungo magufi bw'ingurube, ni bumwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe cya vuba, aho usanga abakora ubworozi bwazo, bavuga yuko mu gihe kingana n'umwaka, umuntu woroye ingurube ebyiri, ashobora kuba agize miriyoni, y'amafaranga y'amanyarwanda.

Ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka ni bumwe mu bworozi bugomba kwitabwaho aya matungo akagaburirwa, akavurwa neza, ibi bigatuma ashobora gutanga umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Abakora ubworozi bw'amatungo magufi nk'ingurube mu rwego rwo kugira ngo bagire umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya, barasabwa kwita kuri aya matungo bayavuza, bayagaburira neza ndetse bakayashyira n'ahantu hafite isuku.

Ubworozi bw'amatungo magufi cyane cyane ubw'inkoko zikiri ntoya buba busabwa kwitabwaho kugira ngo bukure kandi butange umusaruro, inkoko ntoya ziba zigomba kuba ahantu hashyushye zigakura neza nta mpungenge.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ihene za kijyambere, ni bumwe mu bwinjiza umusaruro utubutse. Abakora ubugorozi bavuga y'uko ihene zisigaye zihenda, ari yo mpamvu bahisemo kuzorora.

Abakora ubworozi bw'amatungo magufi nk'ingurube, ni bamwe mu bishimira umusaruro bakura kuri aya matungo bavuga ko kugira ngo iri tungo rigire umusaruro risaba kuryitaho nko kurigaburira, kurivuza ndetse n'ibindi.

Abakora ubworozi bw'amatungo y'ingurube, barashishikarizwa kuzitaho, bakayavuza ndetse bakayashyira ahantu heza kugira ngo hatange umusaruro mwinshi kandi vuba.

Ubworozi bw'inka ni bumwe mu ubugomba kwitabwaho igihe aya matungo yarwaye akavuzwa kandi akagaburirwa neza, ibi bigafasha umworozi kubona umusaruro utubutse.

Abakora ubworozi bw'amatungo magufi nk'ihene, bavuga yuko iyo zirishije ibyatsi byo mu gisambu bizirinda indwara kuko muri ibyo byatsi haba harimo n'imiti izivura indwara zitandukanye.

Abakora ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka barakangurirwa kwita ku bworozi bwabo, ayo matungo bakayashakira ubwatsi, igihe arwaye bakayavuriza ku gihe ubundi na yo agatanga umukamo ndetse n'umusaruro mwinshi.

Aborozi bakora ubworozi bw'inkoko za kijyambere, bashishikarizwa kwita kuri aya matungo, mu buryo bukurikira, igihe inkoko zarwaye, baba basabwa guhamagara abaganga b'amatungo, kuzishyira ahantu hashyushye ariko mu rugero ndetse n'andi mabwiriza atandukanye.

Ubworozi bw'ingurube bugomba kwitabwaho mu rwego rwo kugira ngo zitange umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya, aha twavuga nko kugaburirwa neza, gushyirwa ahantu hashyuha kandi hadashyushye cyane ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'ibigori ni bumwe mu bufitiye abaturage ndetse n'igihugu akamaro, aho usanga hakurwamo ifu yo guteka mu buryo bw'ubugari ndetse no mu buryo bw'igikoma.

Abahinzi bakora ubuhinzi bw'ibigori, ni bamwe mu bishimira umusaruro utangwa n'iki gihingwa, dore ko bavuga yuko basigaye beza byinshi bagasagurira n'amasoko, bagakuramo amafaranga bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abahinzi ibi bigori ni bamwe mu bishimira umusaruro bakura muri iki gihingwa cyane cyane abibumbiye mu makoperative, bavuga ko amafaranga bakuramo abafasha gukemura ibibazo bitandukanye mu miryango yabo.

Abakora ubuhinzi bw'umuceri bavuga y'uko kubona imbuto zabo ari ibintu biborohera kuko babasha kuzikura muri umwe muwo biyegejereje, ibi bakavuga ko biborohereza guhinga undi muceri.

Abaganga b'amatungo ni bamwe mu bafite umumaro munini cyane kuko batanga ubuvuzi butandukanye nko gukingira inka kuzibyaza ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Ubuvuzi bw'amatungo bwateye imbere aho usanga hifashishwa ibikoresho bigezweho mu kubaga amatungo ndetse no kuyavura, ibi ngibi bifasha aborozi kubona umusaruro mwinshi kandi vuba, amatungo yabo ntafatwe n'ibyorezo.

Abakora ubworozi bw'amatungo magufi nk'inkoko za kijyambere, ni bamwe mu bagomba kubahiriza ibi bikurikira, aya matungo agomba gushyirwa ahantu hashyushye, aya matungo agomba kuvuzwa, aya matungo agomba kugaburirwa neza, mu rwego rwo gutanga umusaruro mwinshi kandi ushimishije.

Abavuzi b'amatungo barasabwa kuba hafi y'aborozi kuko baba bakeneye kandi bakeneye kwitabwaho kuko gariamaania fa a azaati borma ya sale egude varia mato egegenneede.

Aborozi b'amatungo barashishikarizwa kujya bahamagara hakiri kare abaganga b'amatungo igihe babonye izi nyamaswa zigize ikibazo icyo ari cyo cyose.

Aborozi ndetse n’abaganga b'amatungo barasabwa kujya baba hafi y'izi nyamaswa, bakazishyira ahantu heza, bakazigaburira, kugira ngo zitange umusaruro mwinshi utubutse.

Abaganga b'amatungo barasabwa kujya bitonda mbere yo gutanga imiti ndetse bakabanza bakamenya neza niba umuti batanze uvura indwara koko iryo tungo rirwaye.

Aborozi bakora ubworozi bw'inka barashishikarizwa kujya bahamagara abaganga bamatungo igihe yagize ikibazo, ibi bikabafasha kurinda amatungo yabo ndetse agatanga umusaruro mu gihe gito.

Inyamaswa zo ku gasozi zaba iziba mu mashyamba, iziba mu mapariki ni zimwe mu zigomba kwitabwaho kuko zifite akamaro kanini nko gukurura ba mukerarugendo batanga amafaranga yifashishwa mu kubaka ibikorwaremezo, harimo imihanda, amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi.

Ni inyamaswa zo ku gasozi zizwi k ku izina ry'inkende burya ngo zigira urukundo rutangaje. Imwe muri zo iyo igize ikibazo ngenzi zayo ziyitaho, bikazihangayikisha ku buryo bugaragara.

Inyamaswa zo mu ishyamba ni zimwe mu zikwiye kwitabwaho zigacungirwa umutekano hirindwa kuzihiga kuko izi nyamaswa zikurura ba mukerarugendo, batanga amafaranga yifashishwa mu kubaka ibikorwaremezo bitandukanye harimo amavuriro, amashuri, imihanda ndetse n'ibindi.

Inyamaswa zo mu ishyamba cyane cyane iziribwa, ni zimwe mu zigomba gucungirwa umutekano hirindwa kuzihiga ndetse n'ibindi bishobora kubangamira ubuzima bwazo.

Inyamaswa zo ku gasozi ni zimwe mu zigomba kubungabungirwa uburenganzira ndetse n'ubuzima bwazo bukitabwaho n'abantu, izi nyamaswa zifite umurimo munini kuko zikurura ba mukerarugendo bakishyura amafaranga yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo nk'imihanda, amavuriro, amashuri ndetse n'ibindi.

Inyamaswa zo mu ishyamba ni zimwe tugomba kubungabungira ubuzima bwazo, twirinda kuzihiga ndetse no kuba twazitega. Ibi bikaba bishobora gukurura ba mukerarugendo baza kureba izi nyamaswa, bigateza igihugu imbere.

Inyamaswa zo mu gasozi ni zimwe mu zigomba kwitabwaho n'abantu, aho kuzihiga tuba tugomba kuzicungira umutekano kuko burya zikurura ba mukerarugendo, bagatanga amafaranga yifashishwa mu kubaka ibikorwaremezo nk'amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi.

Inyamaswa zo ku gasozi zigomba kwitabwaho zigacungirwa umutekano twirinda kuzihiga, kuzitega ndetse n'ibindi bikorwa bibi bishobora kuzihungabanyiriza ubuzima ndetse n'umutekano.

Inyamaswa ziba mu mapariki ndetse n'ahandi mu gasozi tugomba kuzitaho tukazicungira umutekano twirinda kuzihiga kuko izi nyamaswa zikurura ba mukerarugendo bagatanga amafaranga yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo bifitiye igihugu n'abaturage akamaro nk'amashuri, amavuriro, imihanda ndetse n'ibindi.

Inyamaswa zo mu ishyamba ni zimwe mu zigomba kwitabwaho zigacungirwa umutekano, hirindwa kuzihiga, kuzica, kuzitega ndetse n'ibindi bishobora kubangamira ubuzima bwazo bwa buri munsi.

Inyamaswa zo ku gasozi zigomba gucungirwa umutekano hirindwa kuzihiga kandi baraburirwa ndavuga abaturage ko bagomba kwirinda kuzisagarira kuko zimwe muri zo zishobora kubambura ubuzima.

Inyamaswa zo ku gasozi, ni zimwe mu zigomba gucungirwa umutekano, dore ko zifite umumaro munini, ku rwego rw'igihugu ndetse n'abaturage muri rusange, aha twavuga nko kuzana ba mukerarugendo batanga amafaranga, yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo, harimo imihanda, amashuri n'ibindi.

Inyamaswa zo ku gasozi ni zimwe mu zigomba gucungirwa umutekano natwe ubwacu, izi nyamaswa zifite umumaro munini kuko zikurura ba mukerarugendo na bo bagatanga amafaranga yifashishwa mu kubaka ibikorwaremezo bitandukanye.

Inyamaswa zo ku gasozi ni zimwe mu zigomba kwitabwaho ndetse kandi abaturage bakazitondera kuko zimwe muri izo zishobora kubangiriza ubuzima nko kubarya, kubakomeretsa ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inyamaswa zo ku gasozi ni zimwe mu zigomba kwitabwaho zigacungirwa umutekano, twirinda kuzihiga kuzica ndetse n'ibindi byose, bishobora kubangamira ubuzima bwazo.

Inyamaswa zo ku gasozi, ni zimwe mu zigomba kwitabwaho zigacungirwa umutekano, hirindwa kuzihiga kandi zimwe na zimwe tukirinda kuzisagarira kuko na zo zishobora kutugirira nabi.